Igikapu kirimo utubuye tw'umweru gifite ibara rya kaki, hasi naho bimeze kimwe.

Umurima w'ibirayi biteye k'umurongo bari gutera umuti buri murongo hagiye hari umuntu umwe.

Abantu, abakobwa babiri n'abasore babiri, bari mu murima w'ibigori, umwe afite ibasi itukura.

Inzu yanditseho imiti y'amatungo, imbuto nziza nyongeramusaruro, hashushanyijeho karoti na wotameroni n'inka.

Ifumbire irunze ahantu hamwe yakoze umusozi, ifite ibara ry'umweru. Ni utubuye duto duto cyane.

Umuntu afite ikiganza gifite intoki eshanu, kireba hejuru kirimo ifumbire ifite ibara ry'umukara harimo utunini n'uduto tumeze nk'amabuye.

Icyumba kirimo ibintu bigiye bitandukanye, akabati kubakishijwe ibiti, hejuru yako hari rozwari nyinshi, zisa icyatsi.

Abantu bari mu murima urimo amashu, insina, bambaye ibisirubeti, hasi hari ifumbire, ibasi irimo ibintu by'umweru.

Abagabo bane bari guhinga, babiri bafite amasuka, hejuru abandi bayakubise mu murima, bakurura igitaka.

Icyumba kirimo amakarito y'amoko menshi afite amabara y'icyatsi, umweru, kake, ubururu.

Imihenzi iri ku murongo ifite ibara ry'icyatsi, imbere yayo hari ibyatsi byinshi, inyuma hari igitaka.

Umurima uhinzemo amashu atarera neza, hahagazemo umuntu, hakikijwe n'ibimera bigiye bitandukanye, inyuma ye hari ibyatsi.

Abanyeshuri bahagaze muri pipinyeri y'imbuto, bari kubereka amoko agiye arimo kugira ngo bungure ubumenyi bwabo.

Ikimera kiri hagati mu murima gifite amashami menshi cyane kigaragara neza, gikikijwe n'ubutaka buririmo ifumbire.

Abantu batatu bari mu murima, umwe yambaye ikanzu, undi yambaye hejuru umweru, hasi ipantaro, bari kureba amatunda.

Urukwavu rufite abana benshi bafite amabara y'ibifurifundi. Hasi hari ibyatsi byumye ziri kurisha ibyatsi bazihaye.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bari mu murima, bari gubagarira ibimera bari gukuramo ibyatsi.

Ahantu haberamye, harimo abantu barenze umwe, hateyemo ibyatsi bitandukanye.

Itsinda ry'abantu bari mu murima bakikishwe n'amashyamba, bari ahantu hagiye hatandukanye.

Abahinzi bane harimo abagore batatu, umugabo umwe, umuntu umwe yarebye inyuma abandi bari guhinga bareba imbere, bakikijwe n'insina inyuma yabo hari imbagara.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bagiye batandukanye, bari gucuruza ibitoki byinshi, bibyibushye cyane.

Ibigori biri ahantu hamwe, byumye bisa neza biri mu ibara ry'umweru, bibitse mu mifuka.

Inyubako iriho amasaka atukura, nyinshi cyane, afite intete nini cyane.

Icyumba kirimo ububiko bugiye butandukanye, harimo imifuka y'umweru, umuhondo, umuntu yikoreje umufuka w'umweru.

Mu isoko harimo amoko agiye atandukanye: intoryi, karoti, inyanya, ibitunguru, imiteja, puwaro, puwavuro, ibirungo byo gutekesha, harimo n'imyenda ku rundi ruhande.

Umurima uteyemo imboga nyinshi, ku ruhande yawo hari ibiti birebire cyane, hepfo yaho hubatse amazu.

Ibiti byagereveriya biteye mu murima. Hasi hari utwatsi tugufi cyegeranye n'isinsina zifite ibirere bisa icyatsi.

Ahantu hari ibyatsi bigufi, hateyemo ibiti byiza cyane birebire, bigororotse cyane.

Ahantu hari utwaci tugufi cyane, hateyemo ibiti birebire cyane bitagoramye, bigiye bitandukanye cyane.

Ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi biteye mu gace kamwe, ahandi harimo utuyira tutarimo ibyatsi.

Ahantu hari ibiti, by'inzitane, birebire, bifite amashami, menshi, ibindi ni bigufi cyane.

Igiti kinini gifite umubyimba munini, kiri hagati mu ishyamba, ni cyonyine, cyegeranye n'ibyatsi by'icyatsi.

Ahantu hari imisozisi mu kabande, hateye karoti, ibijumba, amasaka, ku mpande hakikijwe n'ibiti bitandukanye.

Abantu bari mu murima uhinzwemo ibinyomoro, hateretsemo akajerikani ka cumi n'atanu harimo umugabo ufite umupanga.

Ahantu harambuye shitingi. Hejuru hari ikirundo k'imiteja myinshi cyane, myiza.

Ibiti by'ibinyomoro bishishe cyane bigaragara ko byabonye ifumbire ihagije, iri ahantu hanini.

Agace gateyemo pasiparumu nziza zisa neza hakikijwe n'amoko y'indabo atandukanye afite amabara iry'umuhondo, icyatsi, umweru.

Amoko y'imbuto; ari ibihaza, afite umubyimba mugari n'ibara rijya gusa icyatsi.

Amabasi y'umutuku n'ubururu harimo intoryi, karoti kuruhande hari ibitunguru n'amashu n'igitenge.

Ahantu hubakiwe hari imbuto, abantu bari kugenda bareba uko bimeze, hakurya yaho hari amashyamba agiye atandukanye.

Umuntu yambaye ikote rifunguye rimurinda imbeho, mu ntoki afite ibinyomoro bisa neza cyane bitatu.

Iduka ryubakishije ibiti, hejuru hari imineke igaragara neza cyane, ku mpande hari avoka nini cyane.

Umukobwa usutse ibisuko ari mu murima, ari gusarura amatunda yeze cyane.

Abantu bari munsi y'igiti; umwe afite igiti urugemwe mu ntoki, hirya yaho hari inyubako, imbere yayo hari abantu benshi, kuruhande hari imodoka.

Ahantu hari ibasi irimo ibibiringanya bibyibushye cyane na tungurusumu imifungo itatu n'imifuka iteretseho kokombure irimo intoryi.

Ku isoko bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye; ibasi iri munsi y'igitebo, mu imbere harimo shufurere zisa icyatsi n'umweru.

Mu isoko hari ibasi irimo imiteja na wotameloni n'ibitunguru na beterave n'igitebo n'umufuka w'imboga na karoti.

Mu isoko bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye ku mifungo. Ari byo: Intoryi, karoti, imboga, ibihaza, amashu n'ibindi bikoresho bibafasha kubizana.

Inzu yubakishijwe amatafari, ku ruhande hari umurima uteyemo amateke n'ibindi bimera bitandukanye.

Mu gipangu hari akayira kinjira, ku mpande hari indabyo zitandukanye, ku rukuta rw'igipangu hariho ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo inyanya zidahiye cyane, na karoti zibyibushye cyane, na puwavuro zisa icyatsi, n'ibitunguru binini bibyibushye cyane.

Iduka ryubakishije ibiti by'imbaho hatejwemo imisumari, hejuru hari imyembe ya kizungu minini cyane itatu.

Umuhinzi uri mu murima mugari, urimo intoryi nyinshi, ari kureba urutoryi uko rumeze, akikijwe n'insina n'ibiti.

Urukuta hejuru hariho ururabyo rwisa rushishe cyane rufite amabara y'icyatsi hariho n'utundi dutoya dufite indabyo z'umuhondo n'iz'umutuku.

Mugabo ubyibushye uri mu murima ari kuvomerera imyaka, hirya ye hari undi muntu.

Umugore uri kuvomerera ibigori, hirya ye akikijwe n'ibiti, ibyatsi, ntago hahinze.

Umuntu uri kuvomerera akoresheje umupira, mu murima hari intoryi, ku ruhande hari amasaka agiye kwera.

Abantu barikuhira bakoresheje imigozi ibihingwa byabo kugira ngo bikure neza. Bakikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Mu kabande hahinzwe umuceri, ku musozi hari ibiti bigiye bitandukanye, hari iginsina n'inzu byubakishijwe amatafari n'amabati atukura.

Mu kabande hateyemo ibigori byumye, hirya y'aho hari ibintu bifite ibara ry'icyatsi, haruguru harimo ibidendezi by'amazi, akikijwewe n'imisozi.

Ahantu hari amoko y'amashyamba bimwe bifite ibara ry'umweru irindi icyatsi, mu kabande hari imirima idahinzwemo, hirya y'aho hateye ibyatsi.

Ahantu mu misozi hari hafite utubande duteyemo icyayi, hagiye harimo imiyoboro y'amazi.

Ahantu hari amazu agiye atandukanye, hateye insina, amasaka. hirya y'aho hari amashyamba agiye atandukanye.

Ku musozi hari imirima ihinzemo, hari iyindi idahinzema, hateye amashyamba, mu kabande hari ibyatsi.

Ahantu hagari harimo pasiparume, mu mpande yaho hakikijwe n'ibiti birimo amoko atandukanye, hagati harimo isinga zimeze nk'insinga za senyenge.

Inka y'ishashi iri mu kiraro kidasakaye, ifite amabara atandukanye, uruhu rwayo ruriho amase.

Ihene ifite ibara rya kake ku mugongo, hari umukara, uduhembe ni tugufi irasinziriye, ruhande hari agatwi k'ihene k'umweru.

nka nyinshi z'umukara n'umweru, abantu barazikikije bazitegereza uko zihagaze.

Ahantu hari inzu, ibirararo biriho ibiti, imbere yabyo hari abantu n'inka.

Imbere y'inzu hari ikigega cy'amazi n'inkoko nyinshi zirigutora mu bishishwa.

Inka ziri mu kiraro zifite amabara y'umukara n'ay'umweru, harimo umusore winjiyemo, abandi bagabo bari hanze.

Inkoko iri kugenda hari kuva izuba inyuma, hari igicucu cyayo iri kureba imbere,

Icyumba kirimo amatungo y'ihene afite amabara agiye atandukanye: umukara n'umweru na kake, bazigaburiye ubwatsi

Itsinda ry'abantu bambaye ibintu bigiye bitandukanye, hirya yabo hari imodoka y'umukara, bafite ingurube zimeze kimwe, imbere yabo hari umuntu uhagaze afite ikaramu.

Ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, harimo utunyamaswa twinshi tugiye dutandukanye.

Inka iri mu kirararo cyubatswe n'ibiti kigiye gifite imyenge minini, iyo nka ifite ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo amagi menshi cyane manini ari mu mugakarito.

Inka iri mu kiraro, ikiraro cyubakishijwe ibiti, bakagihomesha ibyondo, iri kurya ubwatsi bayiteguriye.

Inka y'umukara iri kurya ubwatsi, iruhande hari akanyana k'umukara iri mu kiraro.

Ingurube y'inzugu iri mu kiraro kirimo ibishingwe bitari byinshi, ibyibushye cyane, buri wese ku buryo ayibonye yayikunda.

Ahantu hubakiye bashyitse ingemwe zo gutera, ahandi hari ibikenyeri, hakikijwe na tuwarete n'ibimera.

Intababara ziri mu gatsiko kamwe zifite amabara y'icyatsi, umuhondo, umutuku, umweru n'andi yumye.

Umurima uhinzemo amashu yeze, ibibabi byayo birasa icyatsi ibindi byarumye, hirya yaho hari insina n'imiyenzi.

Imyumbati iri mu murima, iteye ku murongo, ni myinshi, igiye itandukanye.

Umusore yambaye igisarubeti cy'ubururu n'agapira k'umweru, arunamye ari kugaburira inkoko, yashyizemo amatara.

Umuntu wambaye igisurubeti cy'ubururu, ari kureba inyana y'inka yambaye iherena ku gutwi, hasi hari ibirere.

Umuntu wambaye ikabutura irimo amabara atukura n'ishati irimo amabara atukura nay'umweru, afashe ku nyana ifite amabara y'umweru n'umukara hirya hari undi musore.

Hari inka ifite ibara ry'umweru, umukara, hirya y'aho hateye ibiti hari abantu batatu.

Abantu bafite ihene bashumitse mu kiziriko bagiye guzikingiza, bakikijwe n'insina n'ibyatsi by'icyatsi.

Abantu babiri bafite imbwa ziryamye mu byatsi, hirya y'aho hateye indabyo, umuhanda w'igitaka

Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'ishati y'umweru, irimo n'amabara y'umukara, bote z'umukara, ari gutera inka ifite amabara y'umweru n'umukara urushinge.

Inka ifite ibara ry'ikigina, inyuma yayo hari umuntu, ku ruhande hari umugabo wambaye igisurubeti.

Umuntu wambaye igisurubeti cy'icyatsi, ari kwitegereza inyana ziri kurisha ibyatsi byo hasi, ku ruhande hari inzu yubakishijwe amategura.

Inyamaswa ebyiri ziri mu giti gifite amashami menshi kandi maremare afite ibibabi by'icyatsi.

Inyamaswa iri mu ishyamba, ifite ibara ry'ubururu, umutuku, ikivurivundi, ihagaze ku gashami k'igiti.

Imbeba ifite ibara ry'ikivurivundi, umurizo wayo ni muremure cyane, uri hagati mu bibabi by'icyatsi n'ibindi byumye.

Inyoni irahagaze, yagonze umunwa wayo. Iri mu bwatsi bugiye butandukanye, bufite amababi y'icyatsi ayandi yarumye.

Mu ishyamba hari akayira kahagazemo impara ebyiri, zifite amabara y'umweru n'umukara, zifite ubwoya bwinshi ku irugu.

Inyamaswa iri mu byatsi bifite amababi y'icyatsi bindi bibabi byumye, yahindukiye iri kureba ibintu bitandukanye bifite amabara y'umukara n'umweru.

Umuyoboro, hari inyoni ihagaze hirya ifite ibara ry'ubururu, umunwa muremure n'utuguru tugufi, kuruhande rwaho hari ibyatsi byinshi.

Inyubako yubakishijwe amatafari n'amabati, ifite urukuta, inkende yicaye hagati mu byuma, biri kwitegereza imbere yaho.

Inyamaswa iri mu bwatsi ifite amahembe maremare agondoshoye n'ukuguru guhinnye, hakurya hari amashyamba.

Inyamaswa ifite ibara ry'umukara n'umweru, yahindukiye, hirya yaho hari ibyatsi, hasi hari utwatsi tugufi cyane.

Inyoni iri ku giti, ifite ibara ry'icyatsi, umunwa muremure, agahanga gatukura n'amababa amanutse cyane, amaguru ariho intoki eshatu gusa.

Ingagi ziricaye zifite ibara ry'umukara, ziriri kwitegereza mwishyamba ryinshi rifite ibibabi ry'icyatsi.

Inyoni ihagaze ku ishami, ifite umunwa muremure n'amababa y'ubururu n'umukara n'umuhondo na oranje, hirya yaho hari ibara ry'icyatsi.

Inyoni ihagaze mu ishami ry'igiti, ifite umurizo ureshya n'umukara, ifite umunwa mugufi cyane, ubyibushye, mu gahanga h'ubururu, hirya hari ibibabi by'icyatsi.

Inyoni ifite umunwa muremure, ku ruhu rwayo ifite ibara ry'ubururu, umuhondo, umutuku, iry'umukara ihagaze ku giti.

Inyamaswa ndende ifite mu ijosi harehare cyane. Ifite amaguru maremare, amabara ajya gusa n'umuhondo, umweru. Hirya yaho hari ibiti bigiye bitandukanye.